Twatsinze Marburg nk'u Rwanda twishimira ko twabashije guhashya iki cyorezo cya Marburg, cyari cyugarije ibihugu bigiye bitandukanye ku Isi, ni ibyo kwishimira kandi tukabishimira Imana ko yabaye mu ruhande rwacu.

Mu gihe twari twugarijwe n'icyorezo cya Korona virus cyangwa se Kovide cumi n'icyenda hashyizweho ingamba zigiye zitandukanye zo kukirinda. Muri zo harimo no gupima umuriro kugira ngo barebe ko nta bimenyetso watangiye kuzana by'icyo cyorezo.

Gukaraba intoki ni ikintu cyiza dukwiriye kwigisha abana bacu ndetse n'abantu bakuru, batagize amahirwe yo kubona ubigisha uwo muco mwiza, dukwiriye gukaraba intoki, n'amazi meza n'isabune mugihe tuvuye mu musarane mugihe tugiye kurya ndetse n'ibindi bikorwa byinshi.

Umushinga mwiza watekerejwe na Leta ya Island yo kubakira abana ubwiherero bwiza bufite isuku, kandi utapfa guhuriramo n'impanuka ngo ni uko bwubatswe nabi cyangwa se budakomeye, ni abo gushimirwa rwose.

Ni byiza nk'abaganga kandi ni inshingano zabo, guhereza inama ababyeyi bafite abana, abagore batwite ndetse n'abandi barwayi baza babaganga. Bakabigisha umuco wo kugira isuku, gufata imiti neza, kunywa amazi, gukora siporo ndetse n'ibindi bakeneye.

Ibihugu umunani mu icumi byemeye gutanga ubufatanye mu buringanire. Uhereye muri bibiri na cumi n'umunani ukageza mu ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe ubona ko hari impinduka. Mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani byari biri kuri mirongo itanu na gatanu ku ijana ariko ubu muri bibiri na makumyabiri nari rimwe, uburinganire bugeze kuri mirongo irindwi n'icyenda ku ijana. Mbega byiza!

Inama yakozwe n'abayobozi bakomeye mu gihugu, igamije kurwanya no guhagarika icyorezo cya virusi ya Muburg, yakozwe ku wa makumyabiri Ukwakira bibiri na makumyabiri na kane.

Umuhanzi w'indirimbo z'Imana mu Rwanda yagiye mu gikorwa cyo gupima abana bakiri bato ibiro kugira ngo barebe uko ubuzima bwabo buhagaze kugira ngo babagire inama y'imirire myiza n'uburyo ababyeyi babo bakwiye kubareramo kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Kuvoma amazi yo gukoresha imirimo yo mu rugo. Harimo mu guteka, mu koza amasahani, kumesa imyenda yanduye ndetse n'ayo kunywa muri rusange. Twimakaze umuco wo kunywa amazi kuko ni byiza cyane.

Kwa muganga ni ahantu dukunze kujya iyo turwaye kugira ngo badufashe, badusuzume, badufatate ibizami bamenye uko duhagaze. Kwa muganga rero haba hari ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu kuvura abarwayi, ibyo kandi ni ibintu byiza.

Iyo uvuye kuri toilette ni byiza gukaraba amazi meza n'isabune, mu gihe ugiye kurya na bwo ni byiza gukaraba amazi meza n'isabune, twimakaze umuco wo gukaraba intoki mu gihe tugiye gukora ikintu icyo ari cyo cyose.

Umugore wazanye umwana kwa muganga urwaye, muganga ari kumufatira ibizamini kugira ngo barebe indwara y'aba arwayi bamenye imiti bamuhereza, kwita ku bana bakiri bato ni ikintu cyiza gituma bakura neza.

Kwigisha abana imirimo yo mu rugo harimo no kuvoma, guteka, kumesa koza amasahane n'ibindi ni byiza cyane, amazi ni meza ku buzima bw'umuntu kuko tuyakoresha ibintu byinshi mu buzima kandi turayakenera cyane, nta mazi nta buzima.

Inama yahuje abayobozi batandukanye bakomeye, bari kuganira ku ngingo zigiye zitandukanye, bafata n'icyayi ndetse n'ibyo kurya bya mu mugitondo. Mbega ukuntu ari byiza!

Inama mu Gihugu cy'u Rwanda irimo abayobozi benshi bakomeye b'Igihugu, igamije mu kongera amafaranga cyangwa se inkunga ishyirwa mu buzima, kugira ngo abaturage babashe gukomeza kubona ubuvuzi bwiza ndetse n'ibibafasha mu mibereho yabo ya buri munsi, kwa muganga bakakirwa neza, bagahabwa imiti ku gihe, bagahabwa na serivise ku gihe.

Ibiganiro byahuriwemo n'abantu bagiye batandukanye, ndetse n'abashinzwe umutekano hamwe n'abayobozi, kugira ngo bige ku bibazo bijyanye n'ubuzima. Ni byiza cyane ko twita ku buzima bwacu, tukiga umuco wo kugira isuku ndetse n'ibindi.

Kumurika umushinga mwiza, wo kurinda abana. Abana bacu bakwiye uburinzi, kuko nibo bayobozi b'ejo hazaza. Bazavamo abantu bakomeye cyane, kandi bazagirira igihugu akamaro. Twite kandi turinde ku bana bacu.

Iriba abana benshi n'abantu bakuru bahahuriye baje kuvoma amazi yo gukoresha mu rugo ibintu bitandukanye, harimo guteka, kumesa imyenda, gukoropa ndetse no kunywa kugira ngo ubuzima bwabo bumere neza, amazi ni ubuzima.

Umubyeyi uvoma amazi yo kwifashisha ku iriba, amazi adufasha mu bintu byinshi, turayanywa, turayatekesha, turayamesesha, tuyakoresha twuhira imyaka ndetse n'ibindi byinshi amazi ni ubuzima, kuyagira ntako bisa.

Mu buzima bw'imyororokere harimo ibintu byinshi nko kuboneza urubyaro dukoresheje uburyo butandukanye nk'ibinini, udukingirizo, udupira, inshinge ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye kugira ngo twirinde inda zitateganyijwe. Ni byiza, kwigisha abagore kuboneza urubyaro. Harimo n'ibindi byinshi twakwifashisha mu kurwanya indwara zindi zigiye zitandukanye.

Umuntu uri kurira. Abantu bashobora kurizwa n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye cyane cyane ibibazo bahura nabyo muri ubu buzima. Harimo kubura ababo, kubura inshuti bakunda, uburwayi se cyangwa izindi mpamvu zigiye zitandukanye.

Kugira ubuzima bwiza bwo mu mutwe, ni ingenzi kuri buri muntu wese. Tugomba kwita ku buzima bwacu bwo mu mutwe, tukirinda amahungabana n'ibindi bibazo byatuma ubuzima bwacu butamera neza. Umugabo mwiza, waje mu gikorwa cyo kwimakaza umuco wo kwita ku buzima bwacu bwo mu mutwe.

Abaganga beza baje mu mahugurwa, harimo abagabo hakabamo n'abagore. Ni byiza kwibuka guhereza amahugurwa abantu bakora mu bintu bijyanye n'ubuzima kugira ngo batazavura nabi abarwayi bagakomeza kugira ibibazo, aho kugira ngo babafashe gukira indwara zabo.

Kwita ku buzima bwo mu mutwe ni ngombwa kuko hari abantu muri twebwe, bajya bahura n'ikibazo cy'ubwonko cyangwa se ubundi buzima bwo mu mutwe, bakisanga bakoze amarorerwa cyangwa ibindi bintu bitamenyerewe muri sosiyete kandi bitari byiza.

Ni byiza kugana abaganga n'ababifiteho ubumenyi, tukita ku buzima bwacu bw'ubwonko. Ni byiza kugana abaganga mu gihe wumva hari ikibazo utangiye guhura na cyo kijyanye n'ubwonko ndetse n'indi ndwara iyo ari yo yose.

Inama yakozwe n'ikigo K'Igihugu Gishinzwe Ubuzima, Ikigo k'Igihugu Gishinzwe Ubuzima ni intwari kuko kiratureberera mu bintu byinshi, kita ku buzima bw'abantu benshi binyuze mu gutanga amafaranga ngo hagurwe ibikoresho kwa muganga abantu babashe kuvurwa neza.

Umunsi mpuzamahanga wahariwe kwita ku buzima bwo mu mutwe mu bihumbi bibiri makumyabiri na gatatu, ni byiza ko dushishikariza abaturage, imiryango, abana bato ndetse n'abakuru kwita ku buzima bwabo bwo mu mutwe.

Abashinzwe umutekano bari kumwe n'abaturage mu gufata ifoto, bimakaza umuco wo gushyira imbere umutekano mu Gihugu, ni byiza duhe agaciro kandi dukunde abashinzwe umutekano.

Umumama wishimye ucuruza mu iduka, acuruza ibintu bigiye bitandukanye, harimo uburoso bw'amenyo, umuti w'amenyo, amavuta n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, uyu ni umwuga mwiza wagufasha kwiteza imbere.

Kwimakaza umuco w'ubuzima bwo mu mutwe mu Rwanda. Ubuzima bwo mu mutwe kubwitaho ni igikorwa kiza cyagashyizwe mu bikorwa n'Ibihugu byinshi bigiye bitandukanye muri Afurika ndetse no ku Isi hose.

Umuganga uri kuvura amenyo. Ni byiza kwihutira kwa muganga mu gihe ugize ikibazo cy'amenyo. Kuko bigufasha kwirinda ububabare, bikagufasha no kwirinda izindi ngaruka n'inkurikizi zaterwa no kutivuza.

Kwita ku buzima bwo mu kanwa ni byiza, umugabo akoresha urudodo asukura amenyo ye, kugira ngo akomeze gusa, ni byiza kwirinda imyanda ijya mu kanwa kacu, kandi tukibuka koza amenyo byibura kabiri ku munsi.

Abanyeshuri bari kumwe na mwarimu bizihiwe kubera ko bahawe uburoso bw'amenyo n'umuti w'amenyo, twimakaze umuco wo koza amenyo kuko ari ubuzima bwiza, twigishe n'abana bakiri bato kwita ku buzima bwo mu kanwa habo.

Kwigisha abana koza amenyo. Ni byiza kubabyeyi kwigisha ndetse no kwibutsa abana babo buri munsi koza amenyo. Ni umuco mwiza kwigisha abana kwita ku buzima bwo mu kanwa.

Ni byiza ko twita ku buzima bw'abana bacu ndetse harimo n'ubuzima bwo mu kanwa. Ni byiza kubitaho bakiri bato kugira ngo bakure bafite ubuzima buzima. Reka tubigire umuco kubajyana kwa muganga bakabarebera aho bigeze.

Umunsi mpuzamahanga wahariwe ubuzima bwo mu kanwa, terwa ishema no mu kanwa hawe, abantu benshi baje kugira ngo bapimwe uko ubuzima bwabo bwo mu kanwa buhagaze, bamenye nimba hari icyo bakwiye kongeramo, imbaraga bakwiye gushyiramo cyangwa se bameze neza bakomereza ku byo bakora kugira ngo hamere neza.

Umuganga arapima umusaza uri mu myaka y'izabukuru. Kugira ngo arebe uko ubuzima bwe buhagaze. Kugira ngo age abasha kwirinda ndetse amuvura n'indwara zigirwa, zikunda kugirwa n'abantu bakuze.

Umusaza uri gusoma usa nkaho afite siterese, imbere ye hari ibitabo na mudasobwa n'imbeba yayo, abantu benshi bakuru bari mu myaka ikuze iyo bari bageze mu myaka ikuze birabananira, birabagora gusoma ndetse no gufata mu mutwe.

Umuganga mwiza asobanurira umugabo uri mu za bukuru akamaro ko kwita ku buzima bwe, ni byiza ko twita ku bantu bacu bari mu za bukuru, haba abakecuru ndetse n'abasaza, kandi tugahora twita ku buzima bwabo bwa buri munsi.

Gufata ifunguro rya mu gitondo ni ingenzi, mu gufata ifunguro rya mu gitondo harimo kuba warya imigati, imboga, imbuto, ndetse ukanywa icyayi cyangwa igikoma, ni umuco mwiza kuba hafi y'ababyeyi bacu, tukabafasha imirimo yo mu rugo.

Kwita ku bantu bari mu za bukuru ni ikintu kiza k'ingenzi, tukabaha indyo yuzuye harimo ibitera imbaraga, ibyubaka umubiri ndetse n'ibirinda indwara, kubaha imitobe yo kunywa, imbuto ndetse n'ibindi bitandukanye ndetse tukabajyana no kwa muganga kugira ngo barebe uko ubuzima bwabo buhagaze.

Umuryango mwiza ni umuryango wishimye, urimo mama, papa ndetse n'abana, iyo bariye neza indyo yuzuye bakaryama bihagije ndetse bagakora n'inshingano zabo uko bikwiye, nta kabuza umuryango uzagira ibyishimo.

Umusaza urigukora siporo uri mu zabukuru. Ni byiza gukora siporo ku bantu bari mu zabukuru ndetse n'abantu bose, ariko cyane cyane birafasha kubera ko bituma ugira ubuzima bwiza ukagira n'amasaziro meza. Dukwiye gukora siporo buri munsi cyangwa se nibura kane mu cyumweru.

Ni byiza kwambara agapfukamunwa ku muganga wese ugiye kuvura uwaje amugana, kandi ni byiza kwita ku bantu bari mu zabukuru, dukurikirana ubuzima bwabo kugira ngo tumenye uko bahagaze, tumenye n'ubufasha bakeneye.

Kwigisha abantu bari mu za bukuru gufata imiti yabo nk'uko bikwiriye ni ingenzi, kandi tukabibutsa uko tubishoboye, kugira ngo ubuzima bwabo burusheho kumera neza. Ni byiza kandi kubakurikirana.

Kumenyesha abaturage ku cyorezo cyugarije Isi n'igihugu cyacu, kugira ngo baze gufata urukingo mu rwego rwo kwirinda icyo cyorezo ko cyatwara abantu benshi bagapfa. Ni byiza rero kwigisha abaturage akamaro ko gufata urukingo.

Duhagarike Corona. Dukora ibi bikurikira: gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune, kwambara agapfukamunwa, guhana intera na mugenzi wawe, kurya indyo yuzuye ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Twirinde kandi duhagarika Corona virus.

Ingaruka nziza n'ingaruka mbi z'ibidukikije ku buzima bw'abaturage. Ni byiza kwita ku bidukikije. Kuko mu bidukikije harimo: ibiti, harimo ibimera kandi ibyo bimera ni byo bitanga umwuka duhumeka, ni byo bitanga imvura bifite n'akandi kamaro kenshi.

Gufata urukingo rwo kwirinda Korona virusi cyangwa se Kovide cumi n'icyenda birizewe kandi ni uburyo bwiza bwo kugira ubwirinzi mu mubiri wawe, ni byiza ko dushishikariza imiryango yacu n'abacu kujya gufata urukingo rwa Korona virusi, dukomeze kwirinda.

Raporo yatanzwe n'abaganga n'ikigo gishinzwe ubuzima ku isi hose kuri Covid cumi n'icyenda. Abaganga nabo babigizemo uruhare. Berekanye ibisubizo twakoresha turwanya, twirinda Covid cumi n'icyenda.

Ubufatanye hagati ya global fund na unitaid bwo kugira ngo batange ibintu bituma umuntu agira ubuzima bwiza bazana n'udushya mu kuvura indwara ya SIDA, iy'umusonga, malariya mu bihugu bidakize muri Afurika.

Iyandikishije none aha. Mu ishuri rya makumyabiri na kane, mu kwiga ku mirire myiza n'ubuzima bwiza. Rizatangira muri Kamena ku wa makumyabiri na kane kugeza ku wa makumyabiri na gatanu bibiri na makumyabiri na gatanu. Bizabera Amsterdam muri Netheland.

Ibitaro bya Nyarugenge, biherereye mu mujyi wa Kigali. Bitanga serivisi nziza z'ubuvuzi ku bazigana ndetse n'abatuye hafi yawo, ni abatangabuhamya b'uko batanga serivise nziza. Tugire umuco wo kujya kwa muganga, mu gihe twumva tutameze neza, turwaye.

Iy'inzu y'ababyeyi aho ababyeyi babyarira abana babo, ni byiza kwita ku bagore batwite kugira ngo twizere neza ko babasha kuruhuka neza babyara abana babo, tubiteho tubagaburira indyo yuzuye kandi tubakoresha siporo.

Ikigo cy'Igihugu gishinzwe ubuzima, gitanga amahugurwa ku bijyanye no gutangaso; kugira ngo bazajye bafasha abaturage, babigishe babumvishe umumaro, wo gutanga amaraso. Ni byiza gutabara bagenzi bacu, mu gihe tubishoboye.

Inyubako yagenewe kuvurirwamo abarwayi, kwita ku barwayi batitaye kuba bafite ubushobozi bwo kwishyura imiti, cyangwa se ntabwo bafite, cyane cyane byaremewe byashyiriweho kwita ku barwayi barwaye virusi itera SIDA, kugira ngo bahabwe ubuvuzi bw'ibanze.

Amavuriro, ni inzu abaganga bavuriramo abarwayi. Haba harimo ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa mu kubavura ndetse no kureba uko ubuzima bwabo buhagaze. Harimo za mudasobwa n'ibindi bikoresho byifashishwa nk'amamashini agiye atandukanye.

Inyubako zo kwa muganga cyangwa se mu yandi magambo amavuriro, ni byiza kuyagira no kuyubakira abaturage kubera ko arabafasha. Habonekamo imyanya yo kubikamo ibyuma ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu gutanga ubuvuzi bwiza.

Murakaza neza muri hoteli aho twakirira abantu. Mwahabona ibyo kurya byiza, amacumbi meza yo kuraramo, aho mwakorera inama, aho waganirira n'inshuti n'ibindi bigiye bitandukanye. Dutanga serivise nziza, mwaza mukatuvugisha hano.

Ahantu bakorera siporo hari ibyuma byabugenewe bifasha abantu mu gukora siporo. Ni byiza gukora siporo kandi ni byiza kugira iki igitekerezo cyo gushinga ahantu abantu bakorera siporo bakajya bishyura. Ibyo nabyo byaba ari umushinga mwiza. Ku rundi ruhande siporo ni ubuzima bwiza.

Inama y'abayobozi n'abakozi bo mu kigo ngororamuco cy'i Gahini. Baganiriye ku bintu bitandukanye by'uburyo barushaho gutanga serivise nziza no kwita kuri abo bantu baba baje bakeneye ubufasha, bakeneye kugororwa.

Kwa muganga hari amamashini menshi yifashishwa mu kuvura abarwayi. Cyane cyane ababa bakeneye kubagwa bagizweho ingaruka n'impamvu zigiye zitandukanye nk'impanuka ndetse n'ibindi.

Kwa muganga aho babagira abantu bagiye bahura n'ibibazo bikomeye, nko guhura n'impanuka, gukenera kubagwa n'ibindi. Ibyuma bitandukanye byifashishwa, harimo amatara yo kwa muganga, aho umuntu bamurambika iyo barimo baramubaga.

Kwa muganga aho bavurira abantu haba hari isuku nyinshi, kandi hari n'ibikoresho bikenerwa kugira ngo abantu babashe kwitabwaho, bahabwa ubuvuzi bw'ibanze bakeneye. Kwa muganga ni ahantu tubonera ubuvuzi ndetse n'imiti kugira ngo tubashe kubaho neza.

Ni byiza ko kwa muganga haba umwanya mwiza wabigenewe ufite isuku, wo kubikamo ibikoresho byifashishwa mu gihe bari gutanga ubuvuzi bw'ibanze ku barwayi. Ni byiza ko haba hari umutekano, haba hari isuku, kugira ngo bibashe gukurikiranwa neza, kandi bikoreshwe mu buryo bukwiye.

Farumasi ni ahantu bacururiza imiti. Abarwayi iyo babandikiye imiti kwa muganga, bajya kuyigura muri farumasi. Ni byiza rwose! Iki gitekerezo cyo gushinga farumasi ni cyiza, kandi bakayishyira hafi y'abaturage kuko babasha kubona imiti ku gihe, kandi ku biciro bito.

Inzu y'ababyeyi yo kubyariramo; ni byiza ko buri bitaro byose bigira inzu yabugenewe ifite isuku yo kubyariramo kw'ababyeyi, ni umuco mwiza kandi birafasha cyane, biri muri bimwe mu gutanga serivisi ku barwayi baza batugana.

Ibitaro byo kwa muganga, bishyirwamo abantu bakeneye ubuvuzi bwihuse badashobora kuvurirwa mu rugo kugira ngo abaganga babakurikiranire hafi, hajyamo abagore, abagabo n'abana buri wese ukeneye ubuvuzi bwihuse.

Ibikoresho byo kwa muganga bakoresha kandi bifashisha bari gukura abantu amenyo, hari utuntu twohereza amazi mu kanwa kugira ngo bakozemo batangire kugukura cyangwa se kugusukuri amenyo yawe, ni byiza kugira isuku yo mu kanwa.

Ahantu heza ho kuganirira, hari indabyo, hari ameza n'intebe byiza, hari umutuzo, wahaganirira n'umuntu mukumva mumeze neza, twimakaze isuku mu ruganiriro rwacu ndetse n'ahantu henshi tugenda.

Federasiyo yo mu Rwanda ku mukino wa jido, ni byiza gutoza abana imikino itandukanye, harimo karate, harimo jido, gukina umupira w'amaguru, umupira w'amaboko, ndetse n'indi igiye itandukanye.

Ibyuma byo gukoresha muri siporo, ukanywa amazi, ukisukura, hanyuma ugakurikizaho gufata indyo yuzuye, harimo inyama, amagi, imbuto n'ibindi bigiye bitandukanye.

Amazi ni ubuzima. Iyo tuyanyweye tumera neza. Adufasha ibintu byinshi nko gusohora imyanda mu mubiri, kuturinda umwuma, gutuma uruhu rwacu rumera neza, adufasha mu guteka, adufasha mu kumesa imyenda ndetse n'isuku muri rusange. Amazi ni ubuzima.

Wagura nonaha imiti igabanya ububabare, ububabare ubwo ari bwo bwose, haba ubw'umutwe, bwo mu nda, bwo mu maboko n'ahandi hose, byagufasha kumva umerewe neza, ukagira ubuzima bufite umuze.

ukora siporo ni byiza. Bifasha umuntu kuba ameze neza, kandi akirinda indwara zigiye zitandukanye n'umubyibuho ukabije. Iyo uri gukora siporo ugomba kwambara inkweto zifunze ku bazifite, kandi ukambara n' imiyenda ya siporo. Ukibuka no kunywa amazi nyuma yaho.

Umuganga wambaye agapfukamunwa, kuvura ni igikorwa cyiza kandi ni mu buryo bwo gufasha abantu kugira imibereho myiza, ni umuhamagaro mwiza ufasha abantu gukira indwara barwaye.

Gukora siporo ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi nyuma yo kuyikora tukanywa n'amazi kugira ngo tugire ubuzima bufite umuze, iyo uri gukora siporo wumva imiziki ni ibintu byiza cyane kuko biranagufasha ukumva waryohewe.

Umuganga uri kumwe n'umurwayi, arimo aramugorora imitsi kugira ngo ubuzima bwe bwongere kuba bwiza, abaganga bari mu bitaro byinshi bitandukanye, mu mujyi wa Kigali no mu bihugu bigiye bitandukanye.

Imiti n'udupfuko; byifashishwa mu gutanga ubutabazi bw'ibanze; mu gihe umuntu asitaye, mu gihe umuntu atsikiye ndetse n'ibindi bitandukanye, ni byiza guhorana ubuvuzi bw'ibanze bwa hafi kugira ubuzima bwacu bumere neza.

Amazi ni ubuzima, amazi akenshi dukunda kuyanywa buri munsi iyo dufite inyota ariko hari n'igihe tuyanywa tuvuye muri siporo kuko umuntu aba amaze kwahagira, yumva afite inyota n'umwuma bikabije. Amazi rero ni meza ku buzima, duharanire kandi tujye twibuka kuyanywa buri munsi.

Siporo ni nziza mu buzima. Zidufasha ibintu byinshi, harimo kugira ubuzima bwiza, harimo kudukiza indwara zimwe na zimwe nk'umubyibuho ukabije, umutwe, ibicurane ndetse n'izindi. Twimakaze gukora siporo.

Umukobwa mwiza uri kunywa amazi. Amazi ni ubuzima. Adufasha kubaho neza, kugira ubuzima bwiza, kumva tumeze neza ndetse no kugira umunsi mwiza. Kunywa amazi rero twese dukwiye kubigira umuco.

Siporo ni ubuzima. Siporo idufasha mu bintu byinshi. Ituma tugira uruhu rwiza, ituma twirirwana akanyamuneza twishimye umunsi wose. Iturinda umubyibuho ukabije, ikaturinda n'izindi ndwara zigiye zitandukanye.

Ubutabazi bw'ibanze buba bukenewe ahantu hose umuntu aba ari. Cyane cyane mu mikino y'umupira w'amaguru, mu mupira w'amaboko, ndetse no mu bikorwa bigiye bitandukanye, ahantu hahuriye abantu benshi, biba byiza iyo hari ubutabazi bw'ibanze.

Gukora siporo ni ibintu byiza. Bifasha umubiri kumera neza ndetse bikaturinda indwara zigiye zitandukanye, harimo umubyibuho ukabije, harimo umuvuduko mwinshi w'amaraso, ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Duharanire kandi tujye twibuka gukora siporo mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Imiti ya Kinyarwanda yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, harimo iyitwa keto kapusi, burayiti riyiti, joye ofe, ndeetse n'ibindi byinshi. Iyo miti ikaba ikozwe mu mbuto harimo inanasi, imineke,, ndetse n'ibindi bimera.

Ibiti bifite ibara ry'icyatsi. Bifite akamaro kenshi, harimo kuzana umwuka mwiza duhumeka, kubona inkwi ducana, kugira ngo duteke, bivamo imiti abantu bivurisha, indwara zimwe na zimwe.

Ubuki nibwiza ku mubiri w'umuntu. Tubukoresha turi guteka, tukabukoresha tunywa mu cyayi, tukabukoresha ndetse no mu gukora imiti igiye itandukanye. Ubuki ni ikintu cyiza.